Hano ni kwa muganga, kwa muganga bari kumuvura, umwana mutoya bari kumuvura amaso, umwana yambaye agapira k'umutuku karimo umukara naho umuganga uri kumuvura yambaye afite imisatsi y'umukara n'agapfukamunwa, ari kumuvura amaso.

Uru rugaragara nk'aho ari ururabyo. Uru ni ururabyo umuntu yateye, kuko uri kubona ko ruri mu condo rufite ibyana byinshi. Ariko rwo rwashamitse kenshi inshuro nyinshi zikurikiranyije.

Indabyo zitumaga ahantu hamera neza. Izi ndabyo inyuma zaho hari ibiti byumye, bakoragamo inkwi bakazicanisha, ndetse izi ndabyo zikaba ziri mu mabuye aho zimeze neza cane.

Iki ni ikinyomoro, abantu bakaba bakijya kuko cyongera amaraso; iki kinyomoro bikaba bikiri bitoya bikaba bitari byakura, ariko bikaba bisa neza bigaragara yuko bizatanga umusaruro mwiza.

Ibyatsi by'ibifuranene, ndetse n'ibindi byatsi by'icatsi, aho biri mu ishamba, bikaba bisa neza kandi bikaba biri kurabagirana. Mu Ntara yacu y'Amajaruguru, ibi byatsi ukaba ubihasanga.

Inteja, amakoro, amabuye, ayo ni amabuye y'amakoro aturuka ku iruka ry'ibirunga ndetse ibyo byatsi bita inteja ni ubwatsi bw'inka n'abahinzi barurandura iyo bari guhinga, iyo bari guhingaga.

Iyo ni imiti gakondo， imiti gakondo abantu bivurisha，imiti ya kinyarwanda abantu bivurisha indwara zigiye zitandukanye nk'inkorora， umutwe ndetse n'izindi ndwara.

Indabo nziza cane abantu bakoresha kugira ngo ahantu habegwe, cangwa se bakazica bakazishyira ahantu habaye ubukwe, kuko zibaga ziboneye cane zikaba arizicatsi, izindi zifite umweru n'andi mabara atandukanye.

Ibyatsi biri hasi harimo: ibigorigori biri hasi batemye, harimo intondore n'ibindi byatsi byinshi bitandukanye bifashisha mu kuvura, ibindi bakabyifashisha bagaburira amatungo.